Iyi akaba ari inzu nini nziza ifite amakaro ameze nka teraviyo, ikaba irimo abantu benshi bafite amamashini, ubona ko bashobora kuba baje mu nama abagabo, abagore.

Abahungu babiri n'umukobwa umwe n'undi muntu utagaragara ubona ko bameze nk'uwo bafite umuntu bari gutega amatwi imbere yabo hakaba hari ubucupa bw'inyange buteretse ku meza n'amamashini wagira ngo bari mu nama.

Aha akaba ari mu matente y'umweru afite dekorasiyo y'ibara ry'idarapo ry'u Rwanda ubururu, icyatsi n'umuhondo, hakaba harimo abantu benshi, hakaba harimo undi muntu uhagaze ufite ijambo wambaye congo z'umukara n'ipantaro y'umukara.

Inzu nini ifite ibara ry'umweru ku nkuta na parafo y'umweru ikaba irimo abagabo benshi imbere y'abo bagabo hakaba hateretse imeza ndende zifite igitambaro cy'umweru abo bagabo bakaba bahagaze.

Iyi akaba ari sare iberamo ibikorwa by'inama cyangwa se ibikorwa bahuriramo abantu barenze umwe, imbere ya rero hakaba hari umuntu uri kugaragara neza wambaye ikositimu y'umutuku akaba ari undi muntu wambaye ikositimu y'umutuku bambaye ikositimu y'umweru abandi bakaba batagaragara neza.

Abantu benshi bari mu nzu ifite ibara ry'umweru, amarido ajya gusa nk'umuhondo, imbere y'abo hakaba hahagaze umugabo utagaragara neza mu maso, hakaba hari n'abandi bantu bicaye imbere y'abo babiri, ku bikuta by'iyo nzu hakaba hari ibyapa byo kwamamaza biri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Abantu benshi bicaye, abari imbere, imbere yabo hakaba hari amameza abiri, imeza iri ibumoso ikaba iriho amazi menshi, indi iri iburyo ikaba iriho amazi atari menshi cyane, gusa hakaba hariho n'igikapu na mikoro.

Abantu benshi biganjemo abamama, abagabo, bakaba bicaye ahantu hameze nko mu gashyamba hari uduti twishi, imbere hakaba hari utuzu tubiri, hakaba hari undi mumama uri kuvuga ijambo, uhagaze wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ijiri y'umukara.

Iki akaba ari icyumba cyari kiri kuberamo inama. Hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye. Ubona ko inyuma y'ahantu bari bari gukoresha inama hari icyapa cya Rwanda reveni otoriti. Ubona ko bashobora kuba ari abakozi bakora muri Rwanda reveni .

Abantu benshi bari mu nzu isize irangi ry'umweru ubona ko bari mu nama, hakaba harimo umuntu umwe uhagaze uri kuvuga ijambo, ubona ko ameze nkaho asa nkubayoboye cyangwa se akaba ahawe ijambo.

ahangaha hakaba hari mumezezanteramoinama cyangwa ibindi bikorwa bihuriyemo abantu barenze ubu hakabamo mama benshisaranmiran ntiba abama babiri bagaragara cyane harimo'inzobe'igikara akaba yambaye akantu k'umukara undi akaba yambaye akantu gatera umukara imbere ya katete mashinmi

Iyi akaba ari inzu nini irimo intebe nyinshi, ubona ko ikorerwamo nk'ibikorwa by'inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuza abantu barenze umwe, hakaba harimo abantu benshi gusa hakaba harimo n'intebe zitarimo abantu, hakaba harimo intebe nziza.

Iyi akaba ari inzu irimo abantu bagiye batandukanye, urabona ko bambaye udupira tw'ubururu, inyuma hakaba bateretse uducupa tw'amazi tw'inyange, hakaba harimo intebe ameza y'umweru, gusa atagaragara neza.

Ifoto y'abantu bari mu nama ubona ko bashobora kuba ari abakozi ba Rura. Iburyo hakaba hari abantu n'ibumoso hakaba hari abantu, hakaba hari undi mu papa uhagaze, wambaye kositimu ijya gusa nk'umukara.

Iki akaba ari icyumba cy'inama cyangwa se cy'amahugurwa, kikaba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye ubabona biteretse amazi bameze nkaho ari umuntu runaka bari kumva gusa utagaragara.

Abantu bane bicaye ku meza imwe, bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku, imeza ifite igitambaro cy'umweru, babiri bakaba bahagaze, abandi babiri bicaye.

Iki akaba ari icyumba kiri kuberamo inama, hakaba harimo abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo, bakaba bari ku ntebe z'umukara, imeza nini, bakaba biteretse imbere amazi na mashini.

Iyi akaba ari inzu ikorerwamo inama cyangwa se ibindi bikorwa runaka nk'amagorwa, haba harimo abantu batatu n'aba mama umwe hagati n'abagabo babiri bari ku mpande.

Umugabo uri kuvuga ijambo wambaye agapira ka orange n'ipantaro y'umukara, akaba imbere hateretse akameza k'umutuku hiryakaba hari abantu bambaye imipira ya orange batagaragara bari mu itente.

Aba akaba ari abantu bambaye imyenda y'ubururu biteretse amazi y'inyange ubona ko bashobora kuba bari mu nama cyangwa se amahugurwa cyangwa se ikindi gikorwa cyahuje abantu benshi.

Iyi akaba ari inzu ubona ko ikorerwamo nk'amahugurwa cyangwa se bigishirizamo, akaba ari inzu irimo intebe zijya kumera nk'umuhondo gusa udapika cyane, hakaba harimo umumama umwe ubona ko ari kwigisha.

Umugore ufite ibisuko wambaye ikoti ry'umutuku imbere harimo agashati gafite uturango tw'umweru, hirya ye hakaba n'ndi mugabo utagaragara neza wambaye ikoti rya karokaro imbere yuwo mugore hateretse agacupa k'inyange na mikoro iri kureba iburyo.

Umugore ufite mikoro, akaba yambaye agashati karimo utudomo tw'umukara n'ibara ry'mweru, inyuma ye hakaba hari urukuta ruriho icyapa cyo kwamamaza.

Intente ry'umweru ririmo abantu benshi bicaye ku dutebe tw'umweru imbere hakaba hateretse akantu kameze nk'akameza kariho agatambaro ka orange imbere y'iyo tente hakaba hahagaze umu mama wari ufite ijambo ryo kuvuga.

Inzu ifite ibara ry'umweru parofe y'umweru ikaba ku gikuta cyayo hamanitseho ikintu cy'umweru ikaba irimo abantu benshi bagiye batandukanyekanya abagore n'abagabo bicaye imbere y'imeza akaba harimo umugore uhagaze.

Aha ngaha akaba ari mu nzu ikorerwamo ibikorwa by'inama, cyangwa se ibindi bikorwa bihuriramo abantu benshi hakaba harimo abantu barenze umwe ubona ko bameze nk'aho ari umuntu runaka bari kumva urikubaha nk'amabwiriza.

Aba akaba ari abantu benshi bagiye batandukanye abagore n'abagabo, ubona ko bari imbere y'inzu nini, igizwe n'ibirahure kandi bose bambaye imikenyerero, n' nabagabo bambaye amakositimu.

Iyi akaba ari sale iberamo inama, aho ubona ko harimo abantu benshi, gusa umwe muri bo akaba afite mikoro, akaba yambaye akarakosite kajya kumera nk'umweru karimo n'utundi tubara, akaba yiteretse, buri muntu wese urimo akaba yiteretse agacupa k'inyange imbere ye.

Iki akaba ari icyumba gikorerwamo inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuza abantu barenze umwe, hakaba harimo abantu batatu, abagabo babiri n'umugore ubona ko bameze nkaho hari abandi bantu bari kumbwira gusa batagaragara.

Umugore umeze nk'uri kuvuga ijambo wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'ijinizi n'akandi kantu k'umweru kari mu imbere, ubona ko ashobora kuba ari muri sare cyangwa se ahandi hantu habera nk'inama hakaba hari abantu ariko batagaragara neza inyuma hari icyapa.

Aba akaba ari abantu benshi bameze nk'abagiye mu mahugurwa cyangwa se mu nama bakaba bari mu nzu inzu ubona ko anyuma ifite igishushanyo, bakaba bambaye imipira y'ubururu hakabamo n'uhagaze afite mikoro.

Amatente arimo abantu; ubona ko ashobora kuba habaye nk'ubukwe cyangwa se ikindi gikorwa runaka gusa hari abantu benshi cyane; imbere yanjye nkaba ndi kubona amatente y'umweru, abantu bahagaze, umukameramani

Inzu ifite inkuta z'umweru ikabaf iite amakaro y'umweru, ikaba irimo amameza n'intebe z'ubururu ikaba irimo abantu; abagore babiri n'abagabo batatu. Umugore umwe akaba ahagaze afite urupapuro mu ntoki, yambaye imyenda y'icyatsi.

Abantu benshi bicaye mu nzu ifite ibara ry'umweru, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, abari imbere, imbere yabo hakaba hari imeza iriho agatambaro k'ubururu iteretseho amazi.

Abagabo bane, batatu bakaba bicaye bakaba bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo bakaba hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi, hakaba harimo n'umugabo umwe uri kuvuga ijambo ufite agapapuro mu ntoki.

Iyi akaba ari sale ikorerwamo ibikorwa by'inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuza abantu barenze umwe. Hakaba harimo abantu benshi harimo abantu babiri bahagaze umugabo n'umugore.

Aba akaba ari abantu batatu ubu gusa umwe muri akaba atagaragara neza, akaba abantuwa ape bafite mikoro akaba yambaye amarinete akaba ari kuvuga ijambo, imbere ye hakaba hateretse ubucupa bw'inyange, mugihe undi yambaye ishati y'umukara afite akantu mu ijosi k'ubururu.

Abamama batatu ubona ko bayoboye inama cyangwa se ikindi gikorwa runaka gihuriyemo abantu barenze umwe, umwe akaba yambaye ikoti ryo mu gitenge n'undi akaba yambaye ishati y'umutuku, undi muntu yambaye ikanzu yo mu gitenge.

Iyi akaba ari ifoto iriho abakobwa bane n'umuhungu umwe, bicaye ahantu ubona ko bari nko mu nama cyangwa se bagiye mu mahugurwa bakaba bari muri sale, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu batagaragara neza.

Abantu bari mu nzu; ku gikuta cy'iyo nzu hakaba hamanitseho ibishushanyombonera by'inzu. Hakaba harimo abantu babiri bambaye amajiri y'icyatsi, gusa umwe akaba atagaragara neza. Hakaba harimo umugabo umwe wambaye ishati y'umweru n'undi mumama wambaye umupira w'umukara.

Aha ngaha hakaba hari abaturage benshi bari muri sale, irimo intebe nyinshi, ubona ko bicaye nk'abari mu nama, bose abenshi bakaba bafite amamashini, bakaba bameze nk'aho bateze umuntu amatwi, akaba ari inzu nini iri mu ibara ry'umweru.

Abantu bari mu nama ubona ko bayobowe n'umuntu umwe uhagaze wambaye ishati y'umweru ufite mikoro, bakaba bari mu nzu cyangwa se sare ubona ko ari inzu ishobora kuba iberamo ibintu by'inama.

Abantu benshi bavanze harimo abagore n'abagabo bakaba bari ahantu mu mbuga irimo ibiti imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye akajire k'umukara ubona ko n'inkweto z'umukara.

Abantu batatu bameze nk'abari mu nama hakaba harimo abagore babiri n'umugabo umwe, inyuma yabo hakaba harimo ibyapa bya biri mu ibara ry'ubururu, icyatsi.

Umunara ufite ibara ry'umutuku n'umweru, ukaba uri ahantu mu kantu kameze nk'agapangu k'amagiriyaje, imbere yaho hakaba hari akantu kameze nk'akazu, hakaba hari abantu bari bari kuwunyura imbere.

Abantu benshi batagaragara bambaye udupfukamunwa, barimo abagore, bari ahantu mu nzu, bafite amatelefone, bari gufotora, akaba ari abantu b'abamama bafite imisatsi.

Uyu akaba ari umunara, umunara utanga amanetiwake ukunda kwifashishwa n'aya masosiyete agira amasimukadi, amatelefone akaba ari umunara muremure mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Abantu benshi bakaba bari ahantu mu nzu ifite inkuta z'umweru. Hakaba harimo umugabo umwe uri kuvugira kuri telefoni, n'undi mukobwa, ubona ko yacaginze telefone ku rukuta, rw'iyo nzu.

Abagabo barindwi bane bakaba bambaye amajire y'icyatsi abandi babiri bakaba bambaye amajire y'umutuku hirya hakaba hari undi mugabo utagaragara neza bakaba bari imbere y'umunara ufite ibara ry'umutuku n'umweru.

Aba ni abantu bane ubona ko bari mu kazi runaka, bose bakaba biteretse amamashini imbere, bakaba bafite n'amatabureti mu ntoki, ubona ko bahuze cyane bameze nk'abari mu kazi.

Uru akaba ari urubuga rwa NAEB nkaba ndi kubona imbere yanjye abamama basa nk'abari gusarura ikawa akaba ari binjirira harimo email, passwold.

Umugabo wambaye ikote rya kositimu ry'umukara, akaba yambayemo ishati y'umweru, akaba yambaye rinete z'umukara zifite ibirahure bibonerana, akaba afite imashini ya raputopu mu ntoki ze.

Umugore wicaye ahantu, wambaye ijire y'umuhondo, inyuma ye hakaba hari inzu, hirya hakaba hari icyapa cy'irembo

Uyu akaba ari umugabo wambaye ishati ijya kumera nk'umweru, ingofero y'umukara, akaba afite terefone mu ntoki y'umweru, inyuma ye ukaba ubona ko ari ahantu hashobora kuba hakorera ibikorwa bya tekino.

Iyi akaba ari ifoto y'abantu, benshi bicaye ahantu hamwe ubona ko bose wagira ngo baje gushaka network cyangwa se wayifahi ubona ko bose bahugiye mu ma mashini yabo.

Igipangu cyanditseho makumyabiri n'icyenda mu imbera muri iki gipangu harimo inzu nini ya etaje ifite ibara ry'umweru kandi n'akandi kabara ku'umutuku hejuru yayo hakaba hariho n'iminara myinshi.

Iri akaba ari ipoto rirerire, ya mapoto atanga connection ku baturage cyangwa se akaba ari ipoto ry'amashanyaraz!i gusa ikigaragara cyo ni ipo>to rigizwe n'ibintu byinshi ubona koshaho kuba bitangazo ku baturage.

Uyu nguyu akaba ari umunara muremure utanga amashanyarazi ku baturage. Hirya hakaba hari n'undi munara na wo utagaragara neza gusa na wo ni mugenzi w'uyu nguyu.

Amapoto abiri afite amatara hejuru, akaba ariho insinga nyinshi, hirya yayo hakaba hari ibiti nabyo bibiri, inyuma y'ibyo biti hakaba hari inzu imwe imeze nkaho ikiri kubakwa.

Iyi ngiyi akaba ari inzu, gusa imbere yayo hakaba hari amazu menshi, hakaba hari amapoto manini, ubona ko ari amapoto ashobora kuba atanga amashanyarazi, aya mazu yose hakaba hagaraga ibisenge.

Umugabo w'umwirabura wambaye ingofero yumukara ifite uturongo akaba yambaye lakosite ifite uturongo twumukara n'uturongo tw'umweru akaba yambaye ijiri y'icyatsi irimo uturongo tujya gusa n'umweru wererutse akaba ari kureba ku ruhande.

Ipato rirerire rikaba rifite amatara abiri, itara rimwe ry'iburyo irindi ry'ibumoso, hirya y'iryo tara hakaba hari igipangu kigaragara igice cyubakishijwe n'amatafari ya monyo.

Uyu akaba ari umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hakaba hahagaze umumama ubona ko ashobora kuba ategereje nk'imodoka, umama ufite agafuka karimo ibintu, ibase ubona ko ashobora kuba agiye ku rugendo.

Aya akaba ari amapoto abiri maremare, ipoto rimwe rikaba rinyuraho insinga zijyana amashanyarazi ku baturage, irindi poto rikaba rimanitseho amakamera yo mu muhanda, uwo muhanda hakaba harimo imodoka ziri kunyuramo zitwara abagenzi.

Imodoka itwara abagenzi benshi muri rusange, ifite ibara ry'ubururu n'umweru. Ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Hirya hakaba hari akandi kazu abanyamaguru bicaramo gafite ibara ry'ubururu.

lringiri akaba ari ipoto rinini ry'amashanyarazi, gusa rikaba rikikijwe n'ibiti byinshi ubona ko ari ifoto bafashe mu masaha busa nk'aho butangiye kwiramo.

Iki akaba ari igipangu cyubakishijwe amatafari ubonako ashobora kuba ari aya buroke sima ateye akarange kaba gifite amadirishya y'icyatsi, amagiriyaje y'icyatsi, igipangu cy'icyatsi ntiribona ko ari ipoto kikaba gikikijwe n'ibiti.

Uyu akaba ari umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo bibiri ugana Kacyiru, imbere hakaba haparitse ama modoka abiri ku ruhande rw'iburyo, iruhande rw'iburyo hakaba hari inzu igaragara, imbere hakaba hari amapoto.

Umuhanda urimo imodoka iparitse, itagaragara neza, imodoka y'umukara, ikaba iteganye n'igipangu, igipangu gifite urugi rw'umukara n'amadirishya y'umukara, mo imbere hakaba harimo ipoto.

Ipoto ry'amashanyarazi ryegeranye n'umuhanda; ukaba urimo abantu babiri n'abandi bamotari bari hirya batagaragara; hirya ibumoso hakaba hari amazu ubona ko ashobora kuba ari ay'ubucuruzi.

Ipoto rirerire ririho itara rimurika mu muhanda, inyuma yaryo hakaba hari inzu ya etage igeretse kabiri, imbere y'iyo nzu hakaba hari igiti gifite amashami menshi.

Inkingi y'igipangu iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba ariho icyapa cya mirongo itatu icyo gipangu kikaba cyubakishijwe amatafari ya burokesima, imbere yacyo hakaba hari ipoto ririho insinga nyinshi.

Iringiri akaba ari ipoto rirerire ry'amashanyarazi, ubona ko hejuru yaryo hagaragaraga ibicu byinshi rikaba rikikijwe n'ibiti byinshi ubona kuru rishobora kuba ritanga amashanyarazi ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Umuhanda urimo abantu babiri bari kugenda n'amaguru, hirya y'uwo muhanda hakaba hari ipoto y'amashanyarazi. Akaba ari umuhanda ukikirwa n'ibiti hakaba hari n'igipangu cy'inzu.

Ipoto rirerire ry'amashanyarazi rifite insinga nyinshi z'umukara, hejuru yaryo hakaba hagaragara igicu, iburyo ry'iryo poto hakaba hari inzu igaragaraho inkingi.

Abantu batatu bambaye amataburiya y'umweru arimo uturongo tw'umutuku n'ingofero z'umweru, bakaba bari kumwe n'umugore umwe muri bo. Hakaba hari abandi bantu batambaye amataburiya bari kumwe na bo b'abagore, harimo umugabo umwe.

Aha akaba ari mu kayira ubona ko gakikijwe na jaride nziza. Imbere yaho hakaba hari guturukayo abaganga bafite akantu bari gukururaho imiti y'abarwayi. Bakaba bambaye amataburiya y'umweru.

Ibitaro bya Masaka biba bifite inkingi z'umweru aho ku rukuta hanitse ibitaro bya Masaka mbere yabo hakaba hari abantu benshi barimo abazungu.

Aha akaba ari ahantu harenze inzu mu kayira kanyuramo abantu, imbere hakaba ari umugabo wambaye ipantaro ykowe n'ishati y'ubururu hamwembaye n'inkweto z'umukara mu zitagaragara neza amaso akaba yirabura.

Uyu akaba ari umu mama ufite agasatsi ka natirere, wambaye ama rinete y'umukara gusa y'amaso, afite ibirahuri bibonenerana, akaba yambaye ikanzu y'umutuku irimo n'utuntu tw'umukara, wambaye amaherena.

Umucamanza wambaye ikanzu y'umukara, ubona ko yambayemo n'ishati y'umweru, ufite mikoro, akaba ari imbere y'idarapo ry'u Rwanda, afite ijambo ameze nk'uri kubwira abantu runaka.

Uyu akaba ari umugabo w'umucamanza. Wambaye ikanzu y'umutuku irimo ut irimo imirongo y'umukara, mo imbere akaba yambayemo ishati y'umweru na karuvati y'umukara, irimo utuntu tw'umweru, akaba ari umugabo w'umwirabura.

Abantu batanu harimo umugore umwe, bakaba bicaye ku meza imwe, imbere y'iyo meza hakaba hariho akabogisi n'amakaye n'ibipapuro, bose bakaba bafite utuntu bambaye turiho idarapo ry'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hirya hakaba hari umuntu uri kugaragara ibiganza.

Iyi ikaba ari ifoto yafashwe kera irimo abantu benshi, hakaba harimo abantu bahagaze, ariko hakaba harimo n'umumama umwe witeza akantu mu mutwe umanitse ukuboko.

Aha ngaha akaba ari muri gacaca ubona ko yari yitabiriwe n'abantu benshi, imfungwa nyinshi ziri mu ibara ry'iroza. Bakaba bari ahantu hari ibiti byinshi ubona ko ari nk'ahantu hanze.

Abantu batandatu bicaye mu nzu bakaba bicaye ku ntebe z'imikara iyo nzu ikaba ifite amakaro y'umweru, hakaba harimo umugabo umwe wambaye ikositimu y'ubururu n'ishati y'umweru n'undi wambaye ikositimu y'umukara ni'ishati wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru ufite mashini.

Imbere yange nkabandi kuhabona abagabo batatu umwe ushobora kuba ari nk'umwavoka n'undi umwe n'undi muntu urimo hagati ntazi ngo ni uwuhe n'undi uri mu ibara ry'iroza.

Aha ngaba akaba ari abavoka babiri bari kumwe n'umugabo umwe wambaye imyenda y'iroza, akaba ari abagabo babiri n'umugore umwe. Umwe akaba yambaye imyenda y'iroza, akaba arimo hagati yambaye n'agapfukamunwa k'iroza, abandi bakaba bambaye imyenda y'umukara irimo akantu k'umweru.

Abantu benshi bicaye ahantu mu kajaride, hakaba harimo abantu bane bafite imitaka ubona ko iyo mitaka yabo igiye ifite amabara atandukanye. Inyuma yabo hakaba hari amazu, imbere y'abo bantu hakaba hahagaze imfungwa imwe hakaba n'izindi zicaye.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu rya kositimu, akaba yambaye ishati y'umweru karuvati ya kakaro na renete, imbere akaba yateretse agacupa k'inyange, inyuma y'uwo mugabo hakaba hari abandi bantu babiri umugabo n'umugore, gusa batagaragara neza.

Ibikarito bigerekeranyije byinshi bikaba bifite agapapuro k'umweru bikaba bifite n'ibara ry'ubururu. Ako gapapuro k'umweru kakaba kanditseho inyuguti z'umukara imbere yabyo hakaba ari abagabo babiri.

Uyu akaba ari umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, irimo n'ubururu mu imbere ubona ko yambariyemo karavate y'umukara, ishati y'umweru, wambaye amarinete, ubona ko ari umucamanza.

Iyi akaba ari ifoto yo mu rukiko ndikubona hakaba hari abagabo babiri bahagaze umwe wambaye iroza n'undi wambaye imyenda y'umukara hakaba harimo uwambaye agapfukamunwa kajya gusa nk'ubururu.

Umugabo wambaye ikositimu ijya gusa n'ubururu bwerurutse, akaba yambaye ishati y'umweru, karuvate y'ubururu irimo utodomo, akaba ari umugabo w'umwirabura. Inyuma ye hakaba hagaragara umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku irimo n'umukara, akaba yambaye rinete z'amaso akaba ari umugore w'umwirabura inyuma ye hakaba hari urukuta rw'umweru.

Uyu akaba ari umugabo w'umusirikare wicaye mu ntebe zijya gusa n'umweru, akaba ari munzu ifite irangi ry'ubururu ririmo akabati, irimo n'izindi ntebe hirya, akaba yiteretse ibirahure bimeze nk'ibirimo inzoga imbere ye.

Umupolisi uhagaze wambaye impuzankano z'umukara zifite idarapo ry'u Rwanda ku kuboko kw'ibumoso, akaba yambaye n'ingofero y'umukara, ijure y'umukara ifite utuntu tw'icyatsi, inyuma hakaba hari ibinyabiziga bihagaze.

Icupa rya kizimyamwoto, riri mu ibara ry'umutuku n'ubururu bukeya, rikaba riri mbere y'igikarito, iryo cupa rikaba rifite agatwe k'umuhondo.

Imodoka nyinshi zimeze nk'ibikamyo, zifite ibara ry'umweru n'ubururu bukeya, imbere yazo hakaba hari abantu benshi batagaragara, akaba ari imodoka nyinshi ziparitse ahantu ku murongo.

Imodoka ebyiri za polisi. Zose zikaba zihagaze. imwe ikaba ifite ibara ry'umweru n'iryumukara n'indi ikaba ifite ibara ry'umweru n'iryumukara. ikaba ihagaze imbere yayo umupolisi wambaye imyenda y'umukara wateretse icyomba hasi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara ikaba yanditseho tarafiki polisi gusa bitagaragara neza, bikaba biri mu nyuguti zifite ibara ry'umukara ikaba iparitse.

Abangaba akaba ari abantu bahagaze, harimo umuntu umwe w'undi mugabo ahetse ibaga y'umutuku bakaba bahagararanye n'ushinzwe umutekano daso uri mu myambaro y'icyatsi n'inkweto z'umukara.

Akaba ari za kizimyamowoto. Akaba ari kizimyamwoto ebyiri, imweru mu ibara ry'umweru indi ikaba mo ibara ry'umutuku. Hejuru yayo Hakaba ari imipira miremire ubona ko yizingazinze iri mu ibara ry'umutuku. Hasi hakaba hari amakara y'umweru.

Imbere hakaba hari ikinyabiziga kiri muri parikingi kiri mu ibara ry'umukara kikaba gifunguye inyuma ari za modoka bita piki apu, imbere yacyo hakaba hari ikigega kiteretse ku tuntu tw'ubururu cy'umukara.

Imodoka ebyiri za kizimyamoto zihagaze zifite ibara ry'umweru hakaba hari abantu babiri bambaye imyenda y'imikara ivanzemo n'icyatsi bari gupiriza ibintu bimeze nk'imyotsi.

Aba akaba ari ingabo z'igihugu, izo bakunda kwita polisi, zikoze mu myambaro y'umukara utari umukara cyane n'inkweto z'umukara, bose bakaba bafite imbunda akaba ari abantu benshi barenze umwe, inyuma yabo hakaba haparitse ibinyabiziga byinshi.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umukara ifitemo n'icyatsi bakaba bari gupuriza amazi imbere yabo hakaba hari abana batagaragara neza inyuma hakaba hari ibinyabiziga bya Oni.

Aha akaba ari mu kibuga aho bigishiriza imodoka cyangwa se aho bakoreshereza ikizami. Imbere hakaba hari imodoka ziri mu kizamini imbere hari umupolisi uri kuzihamagara kandi azihagarika.

Ibicupa byifashishwa mu kuzimya umuriro, hakaba hari ibicupa bibiri kimwe cy'umuta n'ikindi cyumweru, hejuru yabyo hakaba hari umupira munini w'umutuku, ukaba wometse ku rukuta rw'umweru.

Ikinyabiziga cya polisi gifite ibara ry'umweru n'umukara kikaba giparitse. Hirya yayo hakaba hari n'ikindi kinyabiziga cyo mu bwoko bwa hoho gifite ibara ry'umweru. Hakaba ari abantu bahagaze batagaragara neza.

Umupolisi uhagararanye n'abamotari babiri bakaba bari mu muhanda hirya yabo hakaba hagaragara ikinyabiziga gitwara abagenzi benshi gifite ibara ry'umweru umuhanda w'abanyayamaguru hakaba harimo umuntu umwe utagaragara neza w'umumama.

Moto y'abapolisi ikaba ihagaze mu muhanda ikaba iriho umupolisi umwe wambaye ikote ry'icyatsi n'ipantaro yum'umukara n'inkweto z'umukara, hirya hakaba haparitse n'imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri y'umweru.

Inzu nini ya etaje ikaba igeretse kane imbere yayo hakaba haparitse ibinyabiziga bitatu bibiri bikaba bitagaragara neza akaba ari inzu ikikijwe n'ibiti.

Aha ngaha hakaba haparitse imodoka ya kwasiteri itagaragara neza, iburyo n'indi ibumoso hakaba akaparitse indi modoka ibumoso nayo itaganiriza gusa. Imbere hakaba hari imodoka ya kizimyamwoto iparitse, imbere yayo hakaba hari indi nzu.

Abantu bakizimyamoto bakaba bari kuzimya ahantu hari bafashwe n'inkongi, bakaba bambaye ingofero z'umweru, bakaba bambaye amakoti y'umukara arimo ibara ry'icyatsi, hakaba n'undi muntu ufashe umupira wambaye imyenda y'agipolisi.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, akaba yambaye kositime ijya gusa nk'umukara, ishati ya move, karuvati y'umuhondo, imbere ye hakaba hateretse agacupa k'amazi na mikoro ziri kureba ku ruhande.

Hakaba hari abaturage benshi bafite amadarapo ya FPR ari mu ibara ry'umutuku, umweru, ubururu. Hakaba hari igipangarita kinini cyanditseho: "Umuturage ku isonga." Hakaba hari kubera ibikorwa byo kwiyamamaza.

Iyi akaba ari ifoto y'uwigeze kubaho umukuru w'igihugu Yuvenal Habyarimana, akaba yambaye ikositimu y'umukara karavati y'umutuku irimo utudomo tw'umukara n'ishati y'umweru.

Umugore wambaye umwenda w'ubururu, akaba yambaye rinete, akaba yicaye mu ntebe y'umweru, hirya hakaba hari igishushanyo k'ikibumbano kiri mu ibara rijya gusa umukara, urukuta rw'inzu rukaba rufite ibara ry'umweru akabari mu nzu.

Aba ngaba akaba ari abantu bari mu cyumba kiberamo inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuriramo abantu barenze umwe. Bakaba bicaye mu ntebe z'imikara, akaba ari abantu benshi gusa hakaba harimo n'abatagaragara neza, abagaragara neza, akaba ari abantu batatu n'undi utagaragara neza.

Uyu akaba ari Frank n'abandi bantu bamufashaga mu matora yiwe, ubona ko yari ari mu nama ari kuvuga ijambo, abamukikije akaba ari umumama n'undi mugabo umwe, ubona ko bari bari kumufasha mu bijyanye n'amatora no kwiyamamaza.

Umukuru w'igihugu hizegiserensi Paul Kagame; akaba yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karavate y'umukara n' amarineti. Hirya ye hakaba hari Jeannette Kagame akaba yambaye umukenyero w'ubururu. Hakaba hari n'undi mugabo bari kumwe wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru.

Abantu benshi bahagaze barimo abagore abagabo bambaye amakositimu abagore benshi bakaba bambayedukanzu babona ko ari abantu bameze nk'abayobozi bakaba bari mu nzu y'paamagaro nyuma y'igiti gikuta cy'umweru.

Uyu akaba ari Frank wari ugize ishyaka rya Green party, aho yarari kwiyamamaza yafashe ijambo ari kuvugisha abaturage, ubona ko yari ari mu mwambaro ujya gusa n'umuhondo urimo icyatsi, na rya darapo ryabo.

Inzu ifite inkuta z'umweru inyuma hakaba hari imitako ibiri, ikaba irimo abantu bajya batandukanya abagore n'abagabo hakaba barimo n'umukuru w'igihugu hizi ekiserense Paul Kagame, akaba yicaye yegeranye n'abantu babiri, inyuma ye hakaba hari abandi bantu bahagaze.

Akaba ari ifoto y'umumama wambaye amarinete, gusa ubona ko ari ifoto ya kera, akaba yicaye mu ntebe ubona ko yicaye mu nzu muri salo, inyuma yaho hakaba hari amarido, hakaba hari amadirishya.

Ikigo cy'amashuri kiriho abantu batari abanyeshuri ubona ko bashobora kuba baje mu gikorwa runaka nk'igikorwa cy'amatora cyangwa se ikindi gikorwa runaka gihuwerimo abantu benshi.

Iyi akaba ari ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame, ubona ko ari mu myambaro ya FPR, rakosite y'umweru ya FPR, ipantaro y'umukara, n'abarinzi inyuma be, ba CTU.

Abantu batanu hakaba harimo umugabo umwe abandi bose akaba ari abagore. Bakaba bicaye mu ntebe z'imikara, inyuma yabo hakaba hari amadarapo abiri. Rimwe akaba ari idarapo ry'u Rwanda irindi akaba aridarapo ry'umweru

Abantu benshi imbere yabo hakaba hari imodoka y'umukara iriho icyapa kiriho umuntu, hakaba harimo umuntu mu imbere wambaye ishati y'icyatsi wasohoye umutwe, abo bantu bakaba bafite icyapa kiririmo ifoto y'umugabo.

Icyapa cya mbere gifite ibara ry'umutuku umweru ubururu ryanditseho fpr mu magambo manini mu nyuguti z'umukara icya kabiri kikaba gifite ibara ry'ubururu bwerurutse umweru n'icyatsi kikaba cyanditseho peside mu magambo asa nkubururu ikindi kikaba cyanditseho piere kiba kirimo utunyenyeri.

Umugore w'umwirabura wambaye agakanzu hejuru gafite ibara rya ruje borudo n'agakara gake hasi katagaragara, akaba afite mikoro, akaba ari mu nzu inyuma itagaragara neza.

Uyu akaba ari umugabo wambaye ikoti ry'umukara rya kositimu, ishati ya karokaro, inyuma ye hakaba hari urugi rujya gusa nka zahabu, akaba hari mu nzu iri mu ibara ry'umweru, inyuma ye hakaba hari idarapo.

Abantu benshi bamanutse amadarapo ya FPR ari mu ibara ry'umutuku, umweru, ubururu. Hakaba banditseho inyuguti za FPR ziri mu ibara ry'umukara. Hakaba hagaragara umukuru w'igihugu his excellence Paul KAGAME akaba ari umukuru w'igihugu cy'uRwanda.

Iyi akaba ari ifoto y'ikiganza cyangwa se ukuboko. Kigaragaraho umuntu uvuye gutora ku gikumwe cye akaba ari ibara ry'ubururu ukabona ko inyuma ari iy'ubururu.

Uyu akaba ari umugabo wiyamamarizaga amatora akaba afite mikoro ameze nk'uri kubwira abaturage akaba ari kumwe n'abandi ba mama babiri n'undi mugabo umwe akaba yambaye ipantaro y'umukara n'ishatiya aba bamama umwe yambaye agakanzu k'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Iki akaba ari ikigo cya gurupe sikorere Kimironko, imbere y'iki kigo kuri geti hakaba hari abantu benshi abamama, abapapa, ubonako wagira ngo bavuye nko mu gikorwa cyari cyahuruje ababyeyi.

Philippe Ndahimana n'abandi bagabo babiri, ari kwiyamamariza amatora, ubwo bari bari mu gace kamwe mu turere tugize u Rwanda bagiye kwiyamamaza, hari hari n'abandi bantu benshi ubona ko inyuma ye hari hari ibipankarite bimwamamaza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ya medi ini Rwanda ufite mikoro, akaba yambaye amarinete, inyuma ye akaba ari ibara ry'ubururu, mu nyuguti zandikijwe umweru.

Uyu akaba arima umanitse ikiganza mama w'umwirabura wambaye amarinete uri imbere ya mikoro wambaye imikenyero wambariyemo akenda imbere gasa n'umweru uri imbere y'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi barimo abagore bambaye ibitenge, bakaba bafite ifoto y'umuntu utagaragara neza akaba ariko ku gipapuro kimwe, inyuma yabo akaba amazu...

Aha ngaha imbere hakaba hari amatente y'umweru adekoye mu ibara mu mabara agize idarapo ry'u Rwanda, hakaba hari abaturage benshi ubona batonze umurongo bari bameze nk'abaje mu gikorwa cy'amatora.

Ifoto y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'abandi bantu benshi, hakaba harimo abamama bambaye imkenyero n'abandi bantu bambaye amakositimu ubona ko ari ifoto ishobora kuba yarafashwe nka nyuma y'inama cyangwa se ikindi gikorwa runaka bakaba bari muri sale.

Abagabo batatu bambaye ikositimu, hirya yaho hakaba harimo undi musirikare umwe, ufite ibirokoko by'amatuku, wambaye ingofero, akaba ari kumwe n'abandi baturage babiri, inyuma ye hakaba hari umugore, inyuma yabo bagabo bose hakaba hari amatente.

Ifoto y'umukuru w'Igihugu hizi egiseresi Paul Kagame ari kumwe na Louise Mushikiwabo bakaba bahagaze imbere y'ikirango cy'u Rwanda cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, iburyo n'ibumoso hakaba hari amadarapo y'Igihugu.

Iyo ni ifoto y'umubyeyi wambaye rakosite y'umukara irimo n'utubara tw'umweru igizwe n'ibara rya efuperi, inyuma yiwe hakaba hari icyapa kigaragaza efuperi kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Uyu akaba ari umukuru w'Igihugu w'u Rwanda his excellence Paul Kagame, akaba ari mu ikoti ry'umukara, itanutaro y'umukara, ishati y'umweru na karuvate y'umukara, akaba yambaye amarinete y'umukara, ubona ko yari ari kuzamuka ajya nko kuri siteji cyangwa se mu byicaro muri stade ahantu hari hari abantu benshi.

Abantu benshi bari ahantu hameze nko mu muhanda, akaba ari abantu benshi, bamwe bakaba bicaye abandi bakaba bahagaze, imbere hakaba hari intebe zitariho abantu, hakaba hari akameza k'umweru, hirya hakaba hari amazu menshi agerekeje aho hantu bari.

Aka akaba ari ka gasanduku bashiragamo impapuro z'abatoye, akaba ari agasanduku, akaba ari akabogisi, kajya kumera gafite umwanya basesekamo impapuro.

Iyi akaba ari ifoto y'umukuru w'igihugu Hizi Egiselensi Paul Kagame, aho yari ari gushyira urupapuro rw'itora mu gasanduku, akaba yambaye rinete z'umukara, ishati ijya gusa na burake, ipantaro gusa n'umukara.

Aha akaba ari imbere y'amarembo y'ikigo G.S Kimironko. Hakaba hahagaze abantu benshi, harimo abamama n'abagabo, ubona ko bari baje nko mu nama cyangwa se ikindi gikorwa cya cyahuje abantu benshi kuri icyo kigo.

Kwasiteri y'umweru, imbere yayo akaba ari indi kwasiteri y'umweru, inyuma yayo hakaba hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, indi kwasiteri nayo imbere yayo hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, n'ipantaro y'ikoboyi n'undi utagaragara neza.

Ikinyabiziga cya rukururana kirekire. Kikaba gifite ibara ry'umweru imbere n'icyo gikuruye kikaba gifite ibara ry'umweru. Kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, imbere yacyo hakaba hari umuntu uri guturukayo wambaye agapapira k'ubururu utagaragara neza.

Nanka akaba ari mu muhanda ubona ko ari ya mihanda buri muhanda ujya mu cyerekezo kimwe ugizwe n'ibisate bibiri hagati hakaba harimo akarondorodo k''ubutaka akaba ari umuhanda urimo moto umumotari utwaye umugenzi n' inyumaye hakaba hari, ibindi binyabiziga.

Izi ngizi akaba ari imodoka ziri mu bwoko bupakira ibintu, gusa iyo hirya hakaba hari imodoka nini ikaba ipakiye imifuka myinshi, indi ikaba ipakiye gusa iriho shitingi z'umukara.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso gifite ibara ry'umweru kikaba gifite shitingi inyuma, kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yacyo hakaba hari umumotari uri guturuka imbere n'undi munyonzi umwe.

Ikinyamitende cya moto kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo kikaba kiriho ugitwaye akaba afite kasike ebyiri z'umutuku akaba yambaye jire y'umuhondo hirya mu umuhanda hakaba hari igipangu cy'umweru.

Uyu ukaba ari umuhanda nyabagendwa urimo imodoka itwara abagenzi benshi icyarimwe, akaba ariyo bita kwasiteri n'ikindi kinyamitende cy'amapine atatu, kikaba gitwawe n'umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umutuku, ubona ko kiri kugana iburyo, kwasiteri ikaba igana ibumoso n'irindi gare riri inyuma ritwawe n'umuntu wambaye ipantaro n'agapira.

Iyi ngiyi akaba ari imodoka bigishirizaho gutwara imodoka, ikaba iri mu muhanda ubona ko harimo umuntu wari wafunguye ikirahure, wambaye agapira k'umukara, ukuboko yagusesetse hanze.

Uyu akaba ari umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho mba ndikubona ibinyamitende by'amapine abiri biriho abagenzi, hakaba hari umugenzi wambaye kasike y'umutuku na motari wambaye iy'umuhondo, n'ikindi kinyabiziga kiri imbere cy'umweru ubona ko biri kugana imbere.

Imodoka yo mu bwoko bwa Kwasiteri ifite ibara ry'umweru, ikaba itwaye abagenzi ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Imbere yayo hakaba hari guturuka moto y'umutuku; umuntu uyiriho akaba atagaragara neza.

Iyi akaba ari moto itwaye umugenzi, hakaba hari ikindi kinyabiziga gitwara imizigo kiri mu bwoko bwa fuso gifite shitingi inyuma kikaba gifite ibara ry'umweru n'icyatsi. Kikaba kiri kwinjira na cyo mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka iri mu bwoko bwa tagisi iparitse ifite ibara ry'umweru n'utuntu tw'utudomo tw'ubururu ikaba ihagaze, umugabo wambaye ishati ya kakaro n'ipantaro y'umukara, hirya y'iyo modoka hakaba hparitse izindi modoka zitaranye neza.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa Howo gifite ibara ry'umutuku, kiri guturuka imbere, kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, kikaba cyegeranye n'ikindi kinyabiziga cy'umweru, inyuma yacyo hakaba hari ikinyabiziga cy'amapine atatu.

Uyu akaba ari umuhanda wa kaburimbo, akaba ari manda nyabagendwa urimo no kunyuramo ibikamyo n'ibindi, n'izindi modoka ubona kuzitwara imizigo. Imbere yabo hakaba hari inzu nini igaragara nk'aho wagira ngo ni nk'uruganda

Ndetse akaba arizyamitende z'amapine atatu kikaba kiri mu ibara ry'ubururu kikaba gitwawe n'umuntu wambaye ishati imwe'ipantaro y'umukara gusa muri uwo muhanda hakaba harimo n'ibindi binyabiziga by'amapikipiki aho'ikinyabiziga kirimo abantu babiri umu gitwaye n'umugenzi.

Aha hakaba ari muri gare yo mu mujyi aho bari haparitse bisi iri mu bwoko bwa yundayi ikaba ifite ibara ry'ubururu umweru aho ubona ko yari itegereje abagenzi.

Iyi ikaba ari bisi iri mu bwoko bwa zonda, ikaba itwara abagenzi abagenzi benshi icyarimwe, akarba ari bisi yo mu muhanda iri mu ibara ry'ubururu n'umweru ikaba ifite amapine y'umukara, akaba ari ikinyabiziga kirekire gitwara abagenzi benshi.

Iki akaba ari ikinyamitende cy'amapine atatu kikaba gitwara ibizigo kikaba kiri mu ibara ry'ubururu, amapine y'umukara, inyuma hakaba yatwikirijeho shitingi y'umukara, kikaba kicayeho umugabo wambaye itaburiya y'umuhondo, n'ipantaro n'inkweto z'umweru.

Ikinyabiziga cya rukururana gifite imbere hafite ibara ry'umweru kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yacyo hakaba hari guturukayo ikindi kinyabiziga cya rukururana na cyo gifite imbere h'umweru.

Iki akaba ari ikinyabiziga gitwara abagenzi benshi muri rusange iyo bakunda kwita zonda, akaba ari ikinyabiziga kirimo ibara ry'umuhondo n'umweru, imbere yacyo akaba ari umunyamaguru umwe.

Iri akaba ari igare ryifashishwa mu gupakira imizingo cyangwa se mu kuvana imizigo imwe iva ahantu hamwe ijya ahandi, akaba ari ikinyabiziga ubona ko giparitse kitarimo ikintu na kimwe gifite amapine y'imodoka y'umukara.

Iki akaba ari ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa hoho kikaba gipakiye umucanga, kikaba kiri mu ibara kikaba gifite ibara ry'umutuku, amapine y'umukara, kikaba gifite shitingi hejuru, hirya wa muhanda hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyamitende cy'amapina atatu n'ibindi binyamitende by'amapine abiri, biriho abamotari badafite abagenzi, umumotari umwe akaba yambaye kasike y'umutuku n'undi akaba yambaye kasike y'umutuku.

Imodoka ebyiri zitwara imizigo, imwe iri mu bwa fuso, akaba ari umweru, hakaba ari n'indi modoka nini itwara imizigo gusa, inyuma ipfundikiye y'umweru mu muhanda wa nyayamaguru akaba ari kunyuramo umuntu utwaye igare upakiye.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi ifite ibara ry'umweru n'utudomo tw'icyatsi. Ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo imbere yayo hakaba ari moto itwawe n'umuntu wambaye kasike yumuhondo n'ijire y'umuhondo ivanze n'ubururu.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri ikaba itwara abagenzi benshi icyarimwe ikaba iparitse akaba ari imodoka ifite ibara ry'umweru imbere yayo hakaba hari abantu bahagaze gusa batagaragara.

Imodoka ndende itwara abagenzi muri rusange ifite ibara ry'ubururu n'umweru, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Hirya y'iyo modoka akaba hari amazu ya etage.

Igikamyo kiri mu bwoko bwa fuso, kiri mu ibara ry'umweru, ubona ko gipakiye imizigo, kikaba kiri kugana ibumoso, mu muhanda urimo amamoto abiri atwaye abagenzi.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso gifite ibara ry'umweru, gipakiye ibintu, kikaba gifite shitingi inyuma y'umweru, ikaba yicayeho undi muntu, imbere yacyo hakaba ari umumotari uhetse umugenzi, kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo.

Iyi akaba ari imodoka itwara imizigo cyangwa se ibindi bintu runaka nk'amavuta aba ari imodoka ya dayihatsu ubonako iri mu muhanda nyabagendwa iri kwerekeza iburyo bw'umuhanda akaba ari imodoka y'umweru ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo ikinyamitende cy'amapine atatu n'ibindi binyamitende by'amapine abiri n'imodoka ziri inyuma zitagaragara neza hakaba hari n'umuntu wambaye ipantaro y'umutuku n'agapira kajya gusa nk'umutuku ariko werurutse.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'ikamyo ubona ko gipakiye akaba ari bya binyabiziga bita dayihatsu kikaba kiri mu muhanda ubona ko cyafashe icyekezo hirya hari ibindi bikamyo bipakiye.

Ikinyabiziga gikururana cya makuzungu gifite rimoroki ifite ibara ry'umweru, inyuma kikaba gipakiye gusa ibyo gipakiye bikaba bitwikirije na shitingi. Hirya yacyo hakaba hari inzu ya forutubeti.

Iyi akaba ari imodoka yikorera imizigo yo mu bwoko bwa fuso. Akaba ari imodoka y'umweru, ifite inyuma ahantu hapakira imizigo myinshi. Inyuma ubona ko hariho amashitingi nk'aho harimo ikintu yikoreye. Ikaba iri kugana mu muhanda wa kaburimbo.

Iki akaba ari cya kinyabiziga cy'amapine atatu, kikaba kiri mu muhanda nyabagendwa, ukaba urimo n'ibindi binyabiziga gusa bitagaragara neza, inyuma yacyo hakaba hari bisi itwara abagenzi benshi hamwe

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, n'indi modoka imwe itwara abantu benshi icyarimwe, ikaba ari imodoka ya Royal express, ifite ibara rijya gusa nka oranje n'umweru, hakaba harimo n'umuntu ufite igare, uhagaze.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, ifite umuryango umwe, ipakira imizigo, ikaba iparitse, hirya yaho mu muhanda w'abanyamaguru hakaba harimo igare, imbere yayo hakaba hari indi modoka bari gupakiraho imifuka, umuhanda ukaba urimo abagenzi benshi.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu giparitse, kikaba gifite ibara ry'ubururu, inyuma hakaba hari ijambo ryanditseho medi ini Rwanda riri mu ibara ry'umweru, hirya y'umuhanda wa kaburimbo hakabamo indi tagisi itwara abagenzi.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa kaburimbo kiri mu bwoko bwahoho kikaba gifite ibara rijya gusa nka orange cg se umuhondo gusa utari umuhondo cyane hirya hakaba hari umumotari uparitse mato.

Uyu akaba ari umuhanda w'abanyamaguru, hakaba hari umumotari uhagaze imbere y'aho abanyamaguru bakunda kwambukira, hakaba hari imirongo myinshi icagaguye y'umweru, umumotari akaba yambaye kasike y'umutuku.

Imodoka nini ipakiye matora inyuma hakaba hari shitingi y'ubururu ikaba ifite ibara ry'umuhondo, imbere yayo hakaba hari guturuka ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umutuku, bikaba biri mu muhanda wa kaburimbo.

Aha akaba ari mu umuhanda hakaba harimo ibinyabiziga byinshi imitende by'amapine atatu n'amagare gusa hirya hakaba akaba ari amamodoka aparitse n'andi mapikipiki akaba ari amazu ari mu ibara ry'ubururu, umutuku.

Imodoka ya yego cabs, ikaba ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umuhondo, ikaba iparitse. Hirya yayo hakaba hari amazu menshi, ikaba iparitse mu muhanda.

Uyu akaba ari umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kunyuramo ikinyabiziga cy'amapine atatu, ubona ko ari ahantu hameze nk'ahari kubakwa, hakaba hari ibindi binyabiziga biparitse hirya.

Uyu akaba ari umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi. Ikinyabiziga kigaragara cyane akaba ari imodoka ya hoho, yo mu bwoko bwa hoho, itwara imizigo imicanga, amabuye, n'ibindi bikorwa nk'ibyo. Ikaba iri mu ibara ry'umutuku, akaba harimo n'andi ma moto menshi mu muhanda, kikaba kigana ibumoso mu gihe amoto ari kugana i buryo.

Igare ryikoreye umufuka muremure rikaba ritwawe n'umuntu utagaragara neza imbere y'iryo gare hakaba hari guturukayo imodoka y'umweru rikaba biri mu muhanda wa kaburimbo.

Igare riri mu muhanda ritwawe n'umuntu wambaye akagofero, akaba yambaye agapira k'umutuku ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye za bodaboda, akaba ahetse imifuka myinshi irimo imyeru n'imifuka y'umuceri y'umutuku.

Moto iriho umu motari n'umugenzi bakaba bari mumuhanda. Hirya hakaba hari indi modoka itwara abagenzi benshi muri rusange, ikaba imodoka ndende ifite ibara ry'ubururu n'umweru. Imbere yayo hakaba hari kunyura abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo ibinyabiziga byinshi byiganjemo moto, inyuma hakaba hari guturukayo imodoka ebyiri, imwe y'umukara, n'indi y'ubururu, mu muhanda w'abanyamaguru hakaba harimo abanyamaguru benshi.

Iyi akaba ari ifoto igaragaza mu Mujyi ahakunda kwitwa Car free zone, aho ari abantu hari utuzu twabugenewe abantu bicaramo, hirya hakaba hari amazu menshi, utwo tuzo tukaba tugiye twicayemo abantu batandukanye.

Aha ngaha hakaba hari abantu benshi, bari mu muhanda, aho bakunda kwita car free zone mu mujyi, hirya hakaba hari amazu menshi yama etaje, aho hantu hakaba hari ahantu abaturage bakunda kwicara.

Akaba ari mu byicaro byo kuri sitade ubona ko bifite igisenge kinini cyane inkingi ziri mu mabara, inkingi zikoreshejwe n'ibyuma ziri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Imihanda ibiri, umwe akaba ari umuhanda wa kaburimbo, undi akaba ari umuhanda w'icyatsi bakunda gukoreramo siporo, hirya y'umuhanda hakaba hari icyapa gihari cyo kwamamaza, akaba ari imihanda ikikijwe n'amajaride n'ibiti.

Iki akaba ari icyapa kitwereka ko imbere yacu hari umuhanda ibumoso n'imbere yacu ,aho nka metero mirongo itanu harundi muhanda , iburyo hakaba icyapa kirimw'ibara ry'umuhondo n'ikirango cy'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, kikaba gifite ibara ry'umuhondo n'umukara, kikaba gifite ibirango by'umukara, inyuma yacyo hakaba hari ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, kikaba gifite ibara ry'umweru n'umutuku kikaba gifite ibirango by'umukara, inyuma y'icyo cyapa hakaba hari ibara ry'umweru.

Icyapa cya mpande enye gifite ishusho y'ubururu n'umuhondo, kikaba gifite ibirango by'umukara kigaragaza ko imbere hari inzira y'abanyamaguru cyangwa se iyo bakunda kwita Zebura korosingi.

Icyapa cyiri imbere, kikaba gishatse kuvuga ko imbere nk'intambwe mirongo itanu, hari undi muhanda wisukira mu muhanda nyabagendwa w'ibumoso. Kikaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, ibirango by'umukara.

Iki akaba ari icyapa cya mpande eshatu kiri mu ishusho y'umweru umuzenguruko w'umutuku ibirango by'umukara, kikaba kivuze ko imbere hari uwundi muhanda ibumoso, kikaba gikikijwe n'ibiti byinshi.

Icyapa cya mpandeshatu, gifite udufureshi tugiye tuzenguruka, kikaba gifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku, kikaba kimanitse imbere y'umuhanda, uwo muhanda ukaba urimo imodoka ya kwasiteri n'indi modoka imwe y'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye hakaba harimo n'akandi kapa imbere gafite ishusho ya mpande eshatu, gafite ibara ry'umweru n'ibirango by'umukara, icyo cyapa kindi kikaba gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ishusho y'umweru, ibara ry'umutuku kikaba gifite ibirango by'umukara. Kikaba giteretse ahantu inyuma yaho hakaba ari umweru gusa.

Icyapa cya mpande enye gifite ibara ry'umuhondo n'umukara muke kikaba gifite ibirango biri mu ibara ry'umukara. Kiba aho giteretse inyuma yaho akaba ari umweru gusa.

Iki ngiki akaba ari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite ishusho ry'umweru, ibirango by'umukara n'umutuku. Akaba ari icyapa kigaragaza ko utakwiye kurenza umuvuduko wa mirongo itatu.

Iki akaba ari icyapa kiri mu bwoko bwa mandeda eshatu, kikaba gifite ibara ry'umutuku, ishusho ry'umweru, ibirango by'umukara. Akaba ari icyapa cyerekana ko imbere ari zebra crossing hirya naho haka hari ikindi cyapa cyerekana ko imbere ari ahantu banyura bazengurutse ik'icyatsi.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga kikaba gifite ibara ry'umutuku, umweru n'ibirango by'umukara, inyuma yacyo hakaba hagaragara ibara ry'ubururu.

Aba akaba ari abakozi bari bari gushiraho icyapa kigaragaza ko bitemewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu. Bari bari gushiraho n'ikindi cyapa kigaragaza ko aho imbere hari sipidi kamera.

Iki akaba ari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga kikaba gifite amabara y'umutuku n'ubururu, kikaba kigaragaza yuko imbere hatanyurwa nta nzira ihari itemerewe kunyurwamo.

Icyapa kiri ahantu mu kajaride hirya y'umuhanda, akaba ari icyapa gifite ibara ry'umutuku, umweru n'ibirango by'umukara, kigaragaza ko nta parikingi yemewe, inyuma yacyo hakaba hari uruzitiro rwa giriyaje .

Icyapa cya mpande enye gifite ibara ry'umweru n'umutuku, kikaba gifite ibirango by'umukara akaba ari icyapa inyuma yacyo hakaba hagaragara umweru gusa.

Icyapa cya mpande eshatu gifite amabara y'umweru, umutuku, mo hagati hakaba harimo ibirango bifite ibara ry'umukara, kikaba giteretse ahantu inyuma yaho hakaba hari ibara ry'umweru.

Iki ngiki akaba ari ikika icyapa cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru kiba gifite ibirango by'umukara kikaba kigaragaza ko imbere hari zebura korosingi aho abanyamaguru banyura.

Ibyapa bibiri bya mpande enye, kimwe kiri hejuru kikaba kiriho ibara ry'umweru ibirango by'umukara. Kikaba cyanditseho KN gatatu Avenue; ikiri munsi kikaba gifite ibara ry'umweru ibirango by'umukara. Kikaba cyanditseho KN mirongo itatu.

Umuhanda nyabagendwa unyuramo imodoka n'ibindi binyabiziga n'amagare, akaba ari umuhanda ubona ko werekeza ako Kanyaru Huye, hakaba hari n'undi muhanda unyura ibumoso Kibugabuga Nyamiyaga.

Icyapa kiri mu twatsi hirya y'umuhanda, akaba ari icyapa gifite ibara ry'umuhondo, ibirango by'umukara, imbere yacyo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ufite uturondorondo tw'ubutaka turimo ibiti byinshi.

Ikingiki akaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'amutuku, akaba ari icyapa cya mpandeshatu, ubona ko kiri kugaragaza ibiri kubera imbere.

Iki akaba ari icyapa kiri ahantu hameze nkaho hari ibiti byinshi bya gereveriya, akaba ari icyapa cya mpande eshatu kigaragaza ko imbere hari ikorose akaba ari umuhanda ukata.

Iki ngiki akaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, hejuru hariho umubare wa mirongo itatu, hasi hariho hagaragaza ko hariho kamera, bivuze ko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itatu ko imbere hariho kamera.

Iki akaba ari icyapa kigaragaza rompuwe, kigaragaza ko imbere ari ukujya Kagarama, iburyo bw'umuhanda ari ukujya za Nyamata, ibumoso akaba ari siti senta, akaba ari icyapa kirimo mu ibara ry'...

Iyo akaba ari umuhanda gusa hirya hakaba hagaragara icyapa kiri mu bwoko bwa mpandeshatu kigaragaza ko imbere kuri uwo muhanda hariwundi muhanda wisukiramo iburyo.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, ibirahuri by'umukara, inyuma kuri butu hakaba hafunguye, ikaba iparitse imbere ya etaje ndende ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikorosi imbere yawo, hakaba hari ikinyabiziga gipakiye kitagaragara neza. Iburyo bwaho hakaba hari amazu ya etage afite ibara ry'umweru akaba anubakishije amatafari ya moni. Ku ruhande hakaba hari ibiti byinshi.

Amazu menshi agaragara ibisenge n'andi mazu ya amayetage, akaba arimo ibiti byinshi, akaba ari amazu agiye afite ibisenge by'umutuku, afite ibisenge by'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara, n'inkweto z'umukara, mu muhanda w'igitaka, inyuma ye hakaba hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru, akaba ahagaze imbere y'imodoka y'umukara.

Inzu ya etaje igeretse kabiri, ikaba ifite ibara ry'umweru n'irindi bara ritagaragara neza rijya gusa nk'ikigina, ikaba ifite igipangu cy'umukara, ifite amagiriyaje atatu, iki gipangu kikaba cyometsemo amakaro.

Iyi akaba ari ifoto yafashwe, ifashwe na dorone, cyangwa se umuntu wayifashe akaba yari ahantu hejuru wenda ayifatisha ikindi kintu, akabari mu gace ka Kimironko akaba ari amazu menshi ubona yubatse neza.

Aha akaba ari mu muhanda ariko ya mihanda iba inyura mu makaritsiye idakunda kunyuramo imodoka rusange nyinshi. Iburyo bw'uyu muhanda akaba ari ahantu ubona ko hasa nk'ahakorerwa business runaka.

Moto iri mu muhanda ikaba iririmo umumotari yitwaye wenyine, akaba yambaye kasike y'umuhondo n'ijiri y'umuhondo ivanzemo amabara y'ikoboyi, hirya akaba hari amazu ubona ko ari amazu yo kubamo.

Amazu menshi acucikanyije agaragara hejuru ku gisenge cyayo akaba aya mazu aherereye ahitwa Nyagatovu hakaba hagaragara ku mabati ubona ko aya mabati yayo ashaje cyane akaba akikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda urimo imodoka eshatu zitagaragara, zigaragara amatarama gusa. Imbere hakaba ari aho banyura bazengurutse. Hirya naho hakaba undi muhanda unyura munsi mukiraro hejuru hakaba hari undi muhanda unyura hejuru y'icyo kiraro.

Uyu akaba ari umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga higanjemo moto nyinshi, ukaba ufite aho abanyamaguru banyuraga akaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi iburyo n'ibumoso.

Nubwo akaba ari umuhanda nyabagendwa n'ibinyabiziga byinshi biri kuzaza biri kujya imbere yagana mbere yanjye akaba ari ahantu haparika imodokatwara umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi iburyo n'ibumoso.

Aha akaba ari mu ihuriro ry'imihanda aho bakunda kunyura bazengurutse bakaba bakunda kuhita muri rompuwe iyo rompuwe ikaba irimo ibiti hagati n'amapoto atanga amashanyarazi mu muhanda hakaba hari umuhanda ukikijwe n'ibiti iburyo n'ibumoso.

Uyu nguyu akaba ari umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho hari kunyuramo ikinyabiziga cya mato kiriho umumotari n'umugenzi gusa, hakaba harimo n'undi muntu uri ku igare, hirya hakaba habaparitse ibikamyo bya rukururana.

Iri akaba ari ikorosi ryinjira mu muhanda, imbere ubona ko hari igikamyo kiri kugana mu bumoso bw'umuhanda igikamyo kinini cyikorera imizigo.

Uyu akaba ari umuhanda ugana mu wundi muhanda wa kaburimbo, unyuramo imodoka nyinshi, hirya yaho hakaba ibiti bya jaride, uwo muhanda ukaba ufite amapoto...

Iyi akaba ari umuhanda wa kaburimbo, umuhanda wagutse uri kunyuramo n'ibinyabiziga byinshi. Imbere yaho akaba ari ahantu hanyura abanyamaguru aho bakunda kwita muri zebura korosingi akaba ari ahantu harangwa n'imirongo migufi y'umweru n'undi murongo utambitse umwe.

Ahangaha akaba ari akayira kanyuramo abanyamaguru gusa ubona ko iyo nyubako hari urukuta rwubakishijwe amabuye rurerure, urwo bakunda kwita Ritenegoro, hejuru yarwo hakaba ari amazu atagaragara neza

Uyu nguyu akaba ari umuhanda mwiza ukaba ufite icyerekezo kimwe kiri kugana iburyo, hakaba hari n'undi muhanda munini uri kunyuramo imodoka.

Uyu akaba ari umuhanda gusa urimo amasangano menshi, imbere yange hakaba hari umumotari utwaye umugenzi, hirya hakaba hari imodoka y'umukara iri guturuka imbere.

Aha ngaha akaba ari mu muhanda gusa akaba ari umuhanda utagaragara imbere, akaba nta kinyabiziga na kimwe kirimo, imbere yaho hakaba hari ibiti byinshi, hakaba hari na ruhurura. Hakaba hari ipoto ritagaragara.

Uyu akaba ari umuhanda nyabagendwa, gusa no kuko afite ibyerekezo bibiri kimwe kigana ibumoso ikindi kigana iburyo, uyu umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga byinshi gusa byiganjemo ama moto aho hari ikinyabiziga cy'amapine atatu kiririmo kunyura ibumoso n'ibindi bibiri by'amapine atatu bihagaze.

Aha ngaha akaba ari mu muhanda wa kaburimbo aho imbere hari imodoka. Hari guturuka imodoka y'ubururu. Imbere yayo hakaba hari zebura korosingi. Akaba ari umuhanda unyuramo abanyamaguru. Mu kayira k'abanyamaguru hakaba harimo umuntu umwe.

Izi ni imodoka ebyiri ziri mu muhanda w'ibitaka imbere ya ubona ko hari inzu y'umuturage iri mu bwoko bwa kadasitiri akaba ari inzu iyimbere ikaba ari yumweru iyinyuma akaba ari umukara.

Uyu akaba ari umuhanda ufite ibyerekezo bibiri, ukaba urimo imodoka nyinshi zigana iburyo n'indi modoka imwe iri kugana ibumoso. Ikaba ari imodoka eshatu, amapikipiki abiri n'indi igana ibumoso, ikaba ari imodoka imwe.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo ibinyabiziga byiganjemo ama moto menshi n'ibindi binyabiziga bitari amamoto menshi, hakaba harimo feruje ziri kwaka icyatsi n'izindi ziri kwaka umutuku na oranje, hakaba harimo abanyamaguru benshi bagiye bari mu tuyira tw'abanyamaguru.

Uyu akaba ari umuhanda urimo imodoka y'umweru ipakiye twa tumodoka dupakira imizigo ariko akaba ari ka kamodoka gatoya, hakaba harimo na moto ihetse umugenzi, motari n'umugenzi bose bakaba bambaye kasike z'umuhondo.

Aha ngaha akaba ari umuhanda ugaragaramo akarondorondo k'ubutaka gusa ariko hirya akaba ari umuhanda ukomeza ubona ko nta muntu n'umwe urimo ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi.